Abantu bateranye bari mu nzu nini, bigaragara ko bari mu nama, ndetse bafite n'icyo kunywa, biragaragara ko hari uwo bakurikiye ndetse n'ikintu bari kuganiraho, bigaragara ko bakeneye kucyumvikanaho, kandi hari uwo bakurikiye, barimo no gutekereza.

Umuhanda munini bigaragara ko hari imodoka iruhande rwaho harimo ibyapa inyuma y'umuhanda hari ibiti biragaragaza ko ari umuhanda ukoreshwa, kuko n'abanyamaguru bari kuwunyuramo n'imodoka nini na moto.

Urupapuro ku igazeti ya leta, ingingo ya cumi na kabiri, gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro, biragaragaza itegeko ukuntu umuntu agombye kwitwara mu gihe ari gukoresha umutungo ufitiye abandi akamaro.

Ikimodoka kinini kirimo kiragenda mu muhanda, kegeranye n'umuntu iruhande rwacyo, biragaragara ko ari imodoka ishinzwe ibintu by'umutekano ndetse n'ibigaragara ni uko ari iya leta.

Icyapa cy'umweru mu ibara ry'ubururu. Icyapa cyo ku muhanda bigaragara ko ari icyapa kiyobora abagenzi cyangwa imodoka kibereka aho banyura kugira ngo birinde ibibazo bahura nabyo mu muhanda cyangwa ibihano bahabwa na Leta, abayobozi b'umutekano.